Ibikoresho by'ikoranabuhanga ni ingenzi kuko bituma abantu babasha gutumanaho. Iyo abantu babifite birinda kubyangiza ndetse n'iyo bishaje bakirinda kubita aho babonye hose, bityo rero kugira ngo ubuziranenge bwabyo bukururusheho kugenda neza, bibikwa neza kandi byangirika, bikabikwa, bigatabwa.